Igiti cyiza cyane giteye ahantu hari agashamba k'ibyatsi bigufi , gifite amatabi mato mato, amwe asa n'umuhondo bisa naho ari indabyo.

Inzu yubakishije amatafari bita inkarakara, ntabwo yari yuzura. Ihagaze ahantu hari indabo zisa n’icyatsi. Iyi nzu ifite amadirishya adakinze, nta n’inzugi bari bashyiramo.

Ikibara gisa n'aho kidaheruka guhingwa, kiri mu gace k'amakoro. Hari kugaragaramo amabuye y'amakoro. Harimo n'ibyatsi bitandukanye bifite amabara amwe asa n'ubururu.

Sipure ni igiti cyiza cyane, bagitera ku ruzitiro cyangwa bakagitera ahandi hantu, cyamara gukura bakagitema bakakibazamo imbaho. Imbaho kandi ni zo bakoresha mu bwubatsi, bagakingisha n'inzugi zivuye mu masipure.